Abantu benshi bicaye munsi y'igishararagati, harimo abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza, inkumi ndetse n'urubyiruko, bahanze amaso imbere, ahari uri kugira icyo ababwira ku byabazanye.

Abantu benshi bicaye ku murongo ndetse buri umwe yicaye inyuma y'undi no ku ruhande, bicaye bari kumva icyo uri imbere yabo ababwira kandi bamuteze amatwi cyane ngo hatagira ikibarangaza.

Abana batoya ndetse n'abakuru, barimo babyinira imbere y'abantu babasusurutsa ndetse ababareba bishimye, bafashe telefone ngendanwa barimo barafotora buri kimwe.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, biganjemo urubyiruko ndetse bicaye bakurikiye cyane umuntu uri imbere urimo uravuga, bateze amatwi ibyo arimo arababwira byose.

Umuco w'Abanyafurika cyangwa se Abanyarwanda uzwi nko gukina urusoro, aho bafata uyu mukino bakajya bashyiramo utuntu tumeze nk'utuzeru ari abantu babiri bicaye ku mpande zitandukanye.

Imyambi irambitse hasi, izwi cyane mu muco wa kera w'abanyarwanda, hakoreshejwe umuheto ukabasha kurasa ndetse wikoreshwaga cyane n'abami cyangwa se ingabo zigiye ku rugamba.

Abagabo babiri bicaye bafite akamwenyu ku maso yabo ndetse bishimye, bambaye imyenda y'intore ndetse bafite n'inkoni, bambaye n'ibinigi mu ijosi, imyenda yabo isa umweru.

Abakobwa b'urubyiruko barimo barataraka, bambaye imyenda y'umuco wa kinyarwanda ariyo twita imikenyero ndetse barimo barabyinira imbaga nyamwinshi y'ababareba, bishimye bakomye amashyi.

Uduseke tubiri duteretse ndetse dufite amabara y'ikigina n'umukara, uduseke twifashishwaga mu muco wa kera, habikwamo ibintu bitandukanye cyangwa se dutangwa nk'impano.

Abasore barebare, basa neza bahagaze bifotoza, bambaye imyenda y'umuco nyarwanda, isa umweru kandi irimo imigongo ku ijosi ndetse n'aho bazirikira.

Intore ziri kubyina amaraba imbyino gakondo y'abanyarwanda, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bateze amaboko barimo barahamiriza barimo barabyinira mu bukwe bw'umuntu runaka.

Ingoma n'imirishyo biteretse ahantu, ingoma ikoreshwa iyo barimo bacuranga cyangwa se barimo babyina imbyino z'umuco nyarwanda akenshi kandi zikoreshwa mu bitaramo nyarwanda.

Umukeka cyangwa se ibirago bizwi mu banyarwanda cyane, bicaraho barimo baganira cyangwa se barimo basangira ari abantu benshi, cyangwa se biba biri mu ruganiriro iyo winjiye mu ngo nyinshi.

Aha haragaragara udukoni dutoya tugiye duciyemo imyobo myinshi ndetse no hasi hakaba haciye akandi kobo, utu dukoni tuzwi mu muco nyarwanda cyangwa se umuco nyafurika, tuzwi nk'imyirongi ikoze mu biti.

Imitako iboshye mu byatsi byabugenewe abanyarwanda bakoresha kugira ngo hakorwe ino mitako, ari yo duseke, ibisabo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ababyinnyi ba kinyarwanda barimo babyina mu bukwe ndetse bambaye imishanana, baseka neza kandi bazi kurambu amaboko bashimishije ababareba ndetse n'ababakikije.

Ishusho igaragaramo umuhungu muremure ushinguye, wambaye agapira k'umutuku ndetse uri imbere y'ishyo ry'inka z'imbyeyi kandi zifite amahembe maremare nziza zitoshye.

Ingofero umwami kera yambaraga ikozwe mu muco wa kinyarwanda kandi ikoreshejwe uruhu rw'inyamaswa kuko yabaga ari umuntu wubashywe kandi uyoboye abandi mu gihugu cyose.

Agacuma kazwi cyane mu muco w'abanyarwanda kakoreshwaga kera banyweramo urwagwa, ikigage, ubushera ndetse n'ibindi binyobwa byose byabayeho mbere y'uko iterambere riza.

Aha haragaragara ibirago, ibyo mu muco w'umunyarwanda twitaga imisambi kera, bakoreshaga bicara, barimo basangira cyangwa se barimo baganira, ku bintu bitandukanye.

Umuheto uzwi cyane mu muco w'abanyarwanda wa kera, aho bakoreshaga imyambi kugirango babashe kuba barasa, akenshi wakoreshwaga n'ingabo z'ibwami zirasa abanzi cyangwa se bayikoresha bahiga inyamaswa zo kurya.

Umukobwa wicaye yambaye imyenda ya kinyarwanda, ariyo bita inshabure, ateze igitambaro mu mutwe, afite agacuma karimo ibinywebwa, ndetse inyuma ye hari nyakatsi.

Abasore n'inkumi bambaye imyenda ya kinyarwanda, izwi nk'imikenyero cyangwa imishanana, bateze n'urugori, abasore bafite inkoni kandi barimo baratambuka hagati y'imbaga nyamwinshi.

Abakobwa babiri bagaragara kurusha abandi, bari ku ruhimbi, bameze nk'abari gususurutsa abicaye imbere, bose barimo barabumva bafite mikoro mu ntoki bameze nk'abari kuririmba, kandi amatara menshi abamuritseho.

Amapoto azwiho kuba afata insinga ziyobora imiriro y'amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye hirya no hino kandi ikaba ica hejuru y'amazu ku buryo ntawawucaho ngo awusitareho.

Abashinzwe gukora ibijyanye n'amashanyarazi, bahuriye ku nzego hejuru ku mapoto, kugirango ngo babashe kuba bakemura ikibazo cyaba kiri mu nsinga z'amashanyarazi, abantu babashe kuba bacana neza nta kibazo.

Iminara ikwirakwiza amashanyarazi mu ngo z'abantu hirya no hino ndetse iba ari miremire cyane kandi ikoreshejwe ibyuma, igaragaraho insinga nyinshi.

Igikoresho cyifashishwa bashyiramo umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo babashe gucana, ndetse n'amatara yose akikije ahongaho abe yakwaka, babashe kubona ahantu hose.

Aha hagaragara ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi kandi bifasha kuba zakwirakwiza amashanyarazi mu ngo zose ziri mu gihugu cyangwa se ziri muri ako gace zaba ziherereyemo.

Abubatsi bane buriye ku biti ndetse bambaye imyenda yabugenewe y'akazi, biziritse n'imigozi yabafata baramutse bagize ibyago, bakaba bamanuka hasi.

Umugabo uri ahirengeye hejuru ku mashanyarazi, arimo agendera ku nsinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro n'amashanyarazi mu ngo z'abantu bose ndetse bakabasha kuba bacana.

Iminara miremire myinshi iri ku murongo, iri inyuma y'akazu gashinzwe gukurikiranirwamo ibijyanye n'amashanyarazi n'uko akwirakwizwa mu ngo z'abantu hirya no hino.

Itara ryo ku muhanda bacana mu masaha ya saa kumi n'imwe ryifashishwa mu gihe k'ijoro ku binyabiziga bigenda mu muhanda cyangwa se ku banyamaguru baba bakiri kugenda mu gihe bwije.

Umuntu wuriye hejuru y'ipoto, urimo agerageza gukemura ikibazo amashanyarazi yaba afite, kandi hari urujya n'uruza rw'insinga zigenda zigeza umuriro mu ngo z'abantu hirya no hino.

Amapoto yo ku mihanda afata insinga zigenda zikwirakwiza umuriro mu ngo z'abantu mu bice bitandukanye biraho hafi byegereye aha hagaragara amapoto abiri.

Ibizwi nk'iminara miremire, biteye ku murongo bigiye bikurikiranye, bigera muri bitandatu birenga ndetse inyuma yayo hari imisozi miremire, isa umukara ndetse iyi minara yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bantu.

Umunara uteye hagati y'ingo z'abaturage uriho insinga nyinshi zishinzwe gufasha abantu kuba bashobora gukoresha itumanaho bitabagoye kandi ryihuse.

Ahari iminara miremire myinshi yifashishwa mu kuyobora amashanyarazi ndetse iba iriho insinga zikwirakwiza imiyoboro y'amashanyarazi muri buri rugo, cyangwa se hirya no hino.

Ikizwi nk'umunara cyifashishwa kugira ngo itumanaho ry'imiyoboro ya telefoni, ribashe kuba ryagenda neza ndetse bikikijwe n'ibiti birebire by'imikindo, haragaragara n'utuzu tw'utwuma, tuba turimo insinga zifasha, uyu munara kuba wakora neza.

Ahantu hari iminara myinshi y'amashanyarazi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu batambuka ku ruhande, hari insinga hejuru zifasha gukwirakwiza amashanyarazi mu ngo z'abaturage hirya no hino.

Umukobwa mutoya w'urubyiruko urimo wurira ku cyo twita urwego ndetse agiye kumanika amatara kugira ngo abahatuye bajye babasha kubona ndetse ku ruhande hari umufatiye urwego kugira ngo atagwa.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga haragaragaramo moto ndetse n'igare, hirya haparitse ibikamyo binini bishinzwe gutwara imizigo hirya no hino mu bihugu duhana imbibi.

Ahareberwa imikino y'umupira w'amaguru hazwi nko ku izina ry'Amahoro sitade, hasa neza kandi hari umucyo hari isuku nyinshi ndetse n'abahagenda barahashima.

Inzu ndende kandi isa neza igaragaraho ikirango k'inyange uruganda ruzwi mu Rwanda rukora amata, amazi ndetse n'imitobe iryohera kandi rukaba rubicuruza mu Gihugu hose.

Umukuru w'Igihugu Perezida Paul Kagame ndetse uri kumwe n'abandi bantu bambaye amakoti y'umukara n'ingabo imwe y'igihugu, bose bambaye agapfukamunwa birinda icyorezo cyakandurira mu buhumekero.

Sitade y'amahoro y'igihugu, ndetse igebwamo n'abantu batari bakeya iyo habaye imikino y'umupira w'amaguru, ndetse ikaba ikunze gusurwa n'abanyamahanga cyane.

Ishusho igaragaza ku mupaka w'Ubugande ndetse n'u Rwanda, ahari urujya n'uruza rw'abantu binjira ndetse n'abasohoka mu gihugu, aho berekanira ibyangombwa kugira ngo bemererwe kwinjira cyangwa se gusohoka.

Abantu benshi barimo bagerageza kunyura ku kiraro cyo mu kirere gikunze kubarizwa ahantu hari imisozi cyane ndetse gikikijwe n'amatarasi y'indinganire.

Ikigo cy'amashuri cya Karama kiriho ikirango ubona ukinjira, ukihakubita amaso cy'umweru cyanditseho izina ry'ishuri, ibipangu byaho bifite amabara agiye atandukanye arimo ubururu, umutuku n'umuhondo.

Abantu babiri bafitanye bagenda ku kiraro cyo mu kirere kizwi ku izina rya kanopi mu ndimi z'amahanga kandi gikunze gusangwa mu mashyamba aho abantu bagendera hejuru kugira ngo bishimishe.

Aha hagaragara inzu yubatse mu buryo bugezweho, ifite igisenge cy'umukara ndetse isize amarangi y'umweru, imbuga yayo ni amapave ndetse inyuma y'urugo hagaragara ibyatsi bya pasiparumu.

Ifoto igaragaza itsinda ry'abaganga n'abaforomo ndetse b'abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore, rikorera Centre de Sante Mwendo.

Abantu baterureye isanduku ebyiri ndetse n'umugabo umwe uri imbere ufite ifoto y'uwapfuye kugira ngo babashe kuba bajya kumushyingura, mu cyubahiro nk'umuntu wo mu muryango wabo.

Abantu benshi bari ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi, barimo n'ingabo z'Igihugu z'u Rwanda, aribo bafatanyiriza hamwe kwibuka abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Ababyeyi bahagaze imbere ndetse n'abagore n'abagabo, inyuma yabo bashagawe n'abandi bicaye barimo bumva ibyo bavuga kandi umwe muri bo bahagaze afite insakazamajwi.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama kandi barimo bungurana ibitekerezo, bicaye barebana, hari abicaye imbere, ndetse hari n'abahagaze inyuma aribo banyamakuru bashinzwe gufotora ibibera aho.

Abana batoya bafite amabuji bicaye hasi, ndetse n'abagabo bakuru bahagaze barimo n'ingabo z'igihugu, barimo baratsa amabuje, kugira ngo babashe kuba bakibuka intwari z'u Rwanda.

Umugabo ufite insakazamajwi ndetse uri imbere y'abantu benshi urimo ushaka kugira icyo avuga, imbere ye hateretse akantu k'ibiti ndetse hateretseho impapuro.

Abagabo benshi bahagaze ku murongo basa nk'abifotoza, ndetse bahagaze imbere y'insina nyinshi zirimo ibitoki imbere yabo hateretse utumeza n'udutebe tw'imbaho.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi ndetse wambaye ikoti ry'umukara, urimo abwira abamwicaye imbere, abicaye munsi y'imitaka kugira ngo izuba ritabageraho ndetse hari n'ibyuma by'imiziki.

Umunyonzi utwaye umugenzi mu muhanda wa kaburimbo usukuye kandi ukeye, ndetse ukikijwe n'inzu nyinshi z'ubucuruzi harimo n'inzu za emutiyeni zishinzwe gutangirwamo ubufasha bujyanye na MTN.

Aha haragaragara icyapa imodoka zihagararaho, zikura abagenzi mu modoka cyangwa se zibashyiramo, inyuma yacyo hagaragara umuhanda wa kaburimbo ndetse n'amazu atuwemo.

Icyapa kiranga amerekezo cya e na cumi na kane ave mirongo iine kiri ku rugo rw'umuntu aho bagishyira ku gipangu kugira ngo abahagenda bajye bamenya ko yitwa.

Umuhanda wa kaburimbo ukeye, utarimo abantu benshi, ndetse hirya haragaragara abicaye iruhande rw'ipoto, munsi y'umutaka w'ikirango cya Airtel utukura, ndetse hirya no hino hari inzu z'ubucuruzi zigiye zimanitseho ibyapa.

Imodoka y'umutuku iri mu bwoko bw'ivatiri ntoya itwara abagenzi bane, irimo igenda muri kaburimbo ndetse kaburimbo isukuye ku ruhande hari agahanda kagenewe abanyamaguru.

Icyapa kiranga amerekezo EN mirongo itandatu st ndetse kiri ku muhanda wa kaburimbo, ahegereye umuhanda wagenewe abanyamaguru, hirya hari inzu ituwemo kandi nini cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, bategereje ko imodoka bakatishije ziza zikabajyana aho bagiye, hagiye hatandukanye, biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'abana.

Abantu babiri bari ku igare rya matabaro umwe ari imbere undi ari inyuma ndetse bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo usa neza bakikijwe n'inzu z'ubucuruzi zisize amarangi y'umweru.

Imodoka y'umweru nini itwara abagenzi rusange muri gare zigiye zitandukanye itwaye abagenzi kandi zibatwara ahantu aho ariho hose baba bagiye mu gihugu.

Icyapa cyicayemo abantu ndetse n'abandi bahagaze imbere yacyo, iki cyapa abantu bagihagararaho iyo bategereje imodoka zitwara abagenzi rusange, zibageza hirya no hino bakeneye kugera.

Icyapa cyereka imodoka zitwara abagenzi rusange, ko zigomba guhagarara zigashyiramo abagenzi, cyangwa se zikabakuramo bagakomeza urugendo rwabo, inyuma hari umuhanda wa kaburimbo, ndetse n'agahanda k'abanyamaguru.

Icyapa cyereka ikinyabiziga ko ariho bigomba guhagarara bitwara abagenzi cyangwa se bibasiga kiri ku muhanda ahegereye ibiti birebire bitoshye kandi bifite amababi menshi.

Abantu benshi bafatanyirije hamwe bafite ibikoresho bitandukanye by'isuku birimo amasuka ndetse haragaragaramo n'Ingabo z'u Rwanda barimo bafatanyiriza hamwe gukora umuganda ngo bace ibihuru n'ibigunda.

Abantu benshi barimo barakorera hamwe biganjemo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Bifashishije ibikoresho by'isuku byiganjemo: amasuka ndetse n'imihoro. Barimo baratema ibigunda ndetse n'ibyatsi bidakenewe byagiye bimera.

ahantu hari abantu benshi bafite amasuka, biganjemo abagabo, barimo barahinga ubutaka busa nku'bwuyumagaye, kandi hari n'ababarebera ku ruhande.

Aha hagaragara abagabo babiri ndetse n'umugore umwe barimo baragenda bameze nk'abari kureba isuzuma ry'ikigo runaka, ndetse bari kureba niba aho hantu hakorerwa ibyujuje ubuziranenge.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo bagenda mu bikorwa byabo bitandukanye, abanyeshuri bajya kwiga, abajya ahantu henshi hanyuranye ndetse banyura mu nzira imwe imanuka, ikomeza aho bagiye bose.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore batandukanye, bahagaze ku murongo bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse barimo bizunguza bafite uberekera ibyo bakora.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru b'abasore bakiri batoya ndetse bambaye imyenda yabugenewe yo gukinana umupira kandi hagaragaramo utambaye imyenda nk'iyabo, umeze nkaho ariwe ubatoza.

Abakinnyi bahagaze ku murongo barimo bafata ifoto, bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse bamwe muri bo baciye bugufi, abandi barahagaze.

Abakobwa babiri batoya b'urubyiruko barimo bakina umupira w'amaguru mu kibuga cy'ubutaka ndetse kinini kiri ahirengeye, gikikijwe n'imisozi ndetse inyuma hari ibiti byinshi.

Abasore bashinyinguye, barimo birukanka mu myitozo ndetse bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, isa ubururu ndetse n'icyatsi, barimo bariruka mu twatsi dukeye dusa neza.

Abantu benshi bari ahantu hamwe barimo bakora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe ndetse imbere yabo hari umuntu umwe urimo urabereka ibyo bakora ndetse n'ibyo bakurikiza.

Abafana b'umupira w'amaguru, bicaye muri sitade izwi, nka stade amahoro, barimo barareba umupira w'ikipe runaka, ndetse barimo baranafana.

Abantu benshi bahagaze ku murongo ndetse batonze imirongo irenga itatu, umwe ugera hirya n'indi myinshi ndetse bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri.

Abagabo bagaragara nk'abakuze bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru ndetse bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri n'inkweto zabugenewe, baje mu kibuga bagiye gukina umupira.

Umuhungu mutoya wambaye umupira w'umweru, ufite ikintu kiri kwaka umuriro, asa nk'urimo arakorera ubufindo abari imbere ye, barimo baramureba kugira ngo ashimishe abamureba.

Abakinnyi b'ikipe y'umupira w'amaguru ndetse b'abakobwa, barimo barahabwa inkunga y'amafaranga kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere mu mikinire yabo ndetse no mu mibereho yabo.

Abakobwa b'urubyiruko bakiri batoya, bari mu kibuga gisa neza cy'icyatsi, bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse barimo baracenganwa mu kibuga cy'umupira w'amaguru.

Abakobwa b'urubyiruko bakiri batoya bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ndetse barimo barakina umupira w'amaguru bafatana, ndetse bagerageza gutsindana.

Abahungu bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa neza, ndetse imbere hari inshundura igaragara ihagazemo umunyezamu kandi basa nk'abategereje umupira.

Umubyeyi uhetse igikapu, urimo uragenda muri kaburimbo, ku ruhande rwasigiwe abanyamaguru ndetse umuhanda usa neza usukuye, utarimo ikinyabiziga na kimwe, ukikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo usa neza kandi usukuye, urimo urujya n'uruza rw'abantu hagaragara umugabo utwaye moto ndetse hirya hari jaride ziteyemo ibiti bikeye.

Akayira k'amabuye gaca hagati mu mazu y'abantu, ndetse hacamo ibinyabiziga byose, hagaragaramo moto itwaye umuntu, no ku ruhande haparitse izindi moto, n'inzu z'ubucuruzi.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, ruri muri metero ijana na mirongo ine ugiye hirya ndetse uru rukiko rukaba rwitabirwamo imanza zitandukanye.